Imiti ya kizungu itandukanye aho igurishwa mu mavuriro, kandi akaba avura indwara nyinshi zitandukanye.

Mbere ntabwo habagaho imiti ya kizungu, aho wasangaga abanyarwanda bajya mu mashamba, gushaka imiti gakondo y'ibyatsi, bikifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti gakondo, ni kimwe mu bintu bigomba kwitabwaho, ari nayo ikomokaho imiti ya kizungu.

Imiti gakondo ni imwe mu bigomba kwitabwaho cyane, kuko ari yo ikoreshwa mu nganda kugira ngo bakore imiti ya kizungu.

Icyatsi kivura igifu, aho uwagikoresheje kimurinda indwara zirimo igifu, ndetse n'izindi.

Cyimbazi Imirahavumba, Igicuncu, ibyo ni ingero z'ibyatsi bikoreshwa hamwe na hamwe, mu kugira ngo bivure indwara zimwe na zimwe.

Twese dukwiriye kubaha ibyatsi kuko hari bimwe bikoreshwa nk'imiti gakondo kugira ngo bavure indwara, kandi ikanavamo iyo bakoresha ya kizungu.

Ibyatsi bikunze gusangwa mu bishanga, aho bikoreshwa nk'umuti, kugira ngo bavure indwara zitandukanye, harimo nk'izo mu nda, ndetse n'izindi.

Amwe mu mababi y'ibiti ndetse n'ibyatsi, yakoreshwaga mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye harimo n'izo mu nda...

Amababi y'ibiti cyangwa ibihu by'ibiti nibyo byakoreshwaga kera, kugira bakureho umuti wo kuvura indwara zitandukanye.

Igicuncu mu Rwanda rwo hambere cyakoreshwaga mukuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'inkorora ndetse n'izindi.

Amababi y'ibihingwa, nayo afatwa nk'imiti wakoresha, uri kwivura indwara nyinshi zitandukanye.

Abanyarwanda bose barakangurirwa kwita ku bidukikije, cyane cyane amashyamba, kuko ariyo avamo imiti gakondo, kandi akanavamo nk'imiti ya kizungu.